Abagore n'abagabo bari mu murima bari kuhahinga kandi inyuma y'uwo murima hari ibiti bigiye bitandukanye, harimo ishyamba kandi hari n'insina.

Umugore uhetse ipombo ari gutera umuti igihingwa cye, kandi yambaye iherena ku gutwi ndetse yambaye n'agapira k'umutuku k'amaboko magufi karimo uturongo tw'umweru, inyuma ye hari ibigori.

Abantu benshi bari ahantu hari imifuka igiye igerekeranyije iri mu mabara atandukanye, harimo umugore wambaye bote ndetse n'ipantaro y'ikoboyi, hirya y'abo bantu hari insina nyinshi.

Umugabo uhagaze mu cyumba acururizamo, yambaye ga ndetse n'itaburiya bifite ibara ry'umweru, hejuru muri parafo harimo itara ryaka kandi hari n'utubati turimo ibyo agenda acuruza.

Igikuta gisize irangi rya beige gishushanyijeho urunyanya, igitunguru ndetse na karoti hamwe n'inka kandi cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara, ari mu rurimi rw'Ikinyarwanda ndetse hari n'idirishya ry'ibirahure.

Inyubako iteye irangi ry'umweru ku nzugi ndetse no ku nkuta. Ikaba irimo akabati karimo imiti itandukanye iri mu macupa no mu makarito. Harimo kandi kandagira ukarabe yifashishwa mu gusukura intoki.

Etageur imanitsemo ibiribwa bitandukanye harimo imifuka y'isukari, imifuka y'umunyu, ndetse n'iy'umuceri. Ibi ni ibiribwa bivanwa mu nganda bigashyirwa ku isoko kugira ngo abaturage babone ibibatunga.

Abagabo babiri barimo barapakira ifumbire mu mifuka, bambaye imipira y'imituku n'amapantaro y'imikara, bahagaze iruhande rw'umuhanda, hirya yabo hari undi muntu wambaye ishati y'umweru.

Ibiganza bibiri bifashe tungurusumu nyinshi, hano baragaragaza ko tungurusumu ari ingenzi mu buzima bwa muntu, kuko zivura indwara zitandukanye kandi zikanafasha umubiri gukora neza igihe icyo aricyo cyose.

Ifumbire iri ahantu hafi y'imirima myinshi mu gishanga, muri iyo mirima harimo iteyemo imyaka ndetse n'indi idateyemo kandi hakurya yaho hari ibiti byinshi, hamwe n'umudugudu wubatsemo amazu.

Abagabo n'abagore bari ahantu hari ibyatsi byumye ndetse bivangavanze n'ibitumye, harimo umugore uteze agatambaro mu mutwe gafite ibara rya pink ndetse akenyeye n'igitenge kandi hari n'umugabo uhagaze wifashe mu mifuka, imbere ye hari indobo y'umuhondo.

Igiti cy'umuyenzi, ni kimwe mu biti byifashishwa mu gihe abantu bari kugabana, aho usanga abari kugabana umurima, bagitera hagati y'urugabaniro.

Ahantu hateye amashyamba menshi, kandi hagiye harimo n'ibindi biti by'ubundi bwoko butandukanye, hari ibigifite amababi atoshye, kandi hari n'ibyahungutse, amababi yumye.

Icyayi gihingwa mu Rwanda, kiba gifite umwimerere akaba ari na yo mpamvu gikundwa n'abantu benshi haba abatuye u Rwanda ndetse n'abo mu mahanga, bikaba bizanira igihugu cy'u Rwanda amafaranga menshi bitewe no kucyohereza hanze.

Umurima urimo igihingwa cy'imyumbati, ndetse hirya y'uwo murima hari undi munini cyane uteyeho ibigori byumye, ndetse hari n'ibiti bigiye bitandukanye.

Igihingwa cy'ikawa ni kimwe mu bihingwa bigirira akamaro igihugu kuko iyo kimaze gutunganywa neza, cyoherezwa hanze y'igihugu bityo tukabona amafaranga aturutse mu bihugu bigiye bitandukanye.

Ahantu hari amakaro, ndetse hari n'ibicuba bacuruza bishushanyijeho inka, bakoresha mu gihe bari kugemura amata ahantu runaka. Kandi hari n'amakarito menshi, agiye agerekeranyije.

Icupa ry'umuti riteretse iruhande rw'igikarito bawubikamo ndetse icyo gikarito gifite ibara ry'ubururu. Handikishijeho amagambo ari mu ibara ry'umweru kandi hagiye haciyeho uturongo.

Umurima urimo ibihingwa bigiye bitandukanye, kandi hagiye harimo n'ibyatsi byumye, ndetse muri uwo murima harimo umugabo ufite isuka wunamye ari guhinga, yambaye imyenda y'umukara ndetse hari n'insina.

Abantu benshi, bari gukora umuganda mu muhanda w'igitaka. Ndetse, muri bo harimo abafite amasuka, undi arahagaze, afashe ikaye mu ntoki ari kubareba kandi iruhande rwe hari umwana muto.

Inyubako y'ubucuruzi ifite urugi rusize irange ry'umukara, imbere harimo ibicuruzwa bitandukanye, harimo igitoki ndetse n'ibirayi kandi hari n'ameza n'intebe.

Abagabo babiri bishimye ubona ko bashimishijwe no kuba barahinze kandi bakeza. Imbere yabo hari imifuka y'ibiro ijana ine ipakiyemo ibirayi bejeje. Inyuma yabo hari inzu yubakishije ibyondo.

Abantu babiri umwe afite isuka ari guhinga mu murima undi afite igitiyo. Inyuma yabo hari ibihingwa bitandukanye birimo insina, urubingo hamwe n'igiti.

Abagore batatu ndetse n'abagabo babiri bafite amasuka bari guhinga mu murima, imbere yabo hari umuhoro uharambitse ndetse inyuma yabo hari insina nyinshi zifite amakoma kandi hakurya y'uwo murima bari guhingamo hari umusozi.

Itsinda rigari ry'abantu bari gukora umuganda, batera ndetse banaharurira indabyo, higanjemo abantu barimo abagabo, abagore ndetse n'urubyiruko muri rusange.

Abantu bahagaze mu gishanga gihingwamo umuceri ndetse muri bo harimo umugabo wambaye ingofero y'umukara, agapira k'umweru n'ipantaro ya kake kandi hari n'umugore ufite telefone mu kuboko kwe kw'ibumoso yafatiye inyuma kandi hakurya yabo hari umusozi uteyeho ibiti.

Imirima myinshi igiye itandukanye, hari ahari umugabo uri guhinga wunamye afite isuka, ndetse n'umugore uri guhinga ahetse umwana. Kandi hari n'ahari ibigori byumye, ndetse ahagana mu gishanga, hari ahahinze umuceri.

Umurima munini, urimo umuhinzi wambaye bote ndetse n'ipantaro y'umukara n'umupira w'amaboko maremare ndetse n'ingofero kandi uwo ni umukobwa ufite ibisuko ku mutwe, ari guhinga ku buryo bwa kijyambere.

Abantu benshi bari mu isoko aho bacururiza ibitoki, harimo abagore bambaye imyenda igiye itandukanye, hari abateze ibitambaro mu mutwe ndetse hari n'umuntu uri kuri moto.

Umugore wambaye agapira karimo amabara y'umuhondo n'umweru ndetse akaba yiteze n'igitambaro cy'umweru mu mutwe, mu biganza bye byombi ateruyemo ibigori bine kandi inyuma ye hakaba hari hangari imanitseho umusaruro w'ibigori.

Ibikarito byinshi bifite ibara ry'umweru na kake bitondetse ku murongo. Birimo avoka kandi uru rubuto ni rwiza kuko umuntu arushyira ku biryo bikamuryohera.

Guhunika imyaka mu mifuka cyangwa se mu bindi bintu bitandukanye byabugenewe, ni ingenzi kuko bituma abaturage batabura ibyo kurya haba mu gihe cy'imvura cyangwa se cy'izuba, bityo bigafasha kuba ku isoko hahora ibiribwa.

Umurima uhinzemo ibihingwa bigiye bitandukanye kandi muri ibyo bihingwa harimo insina, urubingo hamwe n'ibiti birebire bikikije aho hantu.

Guhinga imbuto ni igikorwa cyiza kuko gihesha amafaranga umuhinzi kandi ku rundi ruhande imbuto ni na nziza ku bantu kuko zifasha umubiri gukora neza bityo abantu bakabaho neza.

Umurima urimo ibihingwa bigiye bitandukanye ndetse ushashemo ibyatsi byumye kandi muri ibyo bihingwa harimo amateke, urusenda rutarera neza rufite ibara ry'icyatsi.

Umurima uhinzemo imboga zigiye zitandukanye, harimo karoti zifashishwa mu gutegura indyo yuzuye, iki gihingwa kandi cyerera mu butaka, gifite amababi y'icyatsi.

Shitingi ifite ibara ry'ubururu, basutseho ibitunguru byiza kandi hirya y'ibyo bitunguru hateretse ibase ndetse hari n'umuntu uhahagaze, ugaragara ikirenge cyonyine.

Umugabo wambaye ishati y'umutuku y'amaboko maremare, ari mu murima we aho ari kugenda areba uko ibihingwa bimeze kugira ngo ibyo asanga birwaye azabitere umuti kandi hirya y'uwo murima hari insina n'ibindi biti bitandukanye.

Umugore we wambaye ibitenge ndetse ateza igitambaro mu mutwe, yunamye mu murima we ari kugenzura uko igihingwa cye kimeze kandi hari n'umwana uhagaze hafi y'uwo murima, inyuma yabo hari inzu isakaje amategura ndetse n'ibiti hamwe n'insina.

Umugore uri guseka ahagaze mu murima w'intoryi ari kuzisarura ndetse mu biganza bye byombi afashemo intoryi. Yambaye ingofero mu mutwe kandi uwo murima ufite uruzitiro rw'imiyenzi n'ibiti, inyuma y'urwo ruzitiro hari ibindi biti bigiye bitandukanye hamwe n'insina.

Kimwe mu bihingwa biteza imbere umuhinzi ugihinga n'inyanya zirimo kandi zifasha abantu kurya indyo yuzuye mu gihe bazitetse ndetse kikanateza imbere igihugu.

Isoko ahacururizwamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, harimo imbuto twavugamo inanasi, imyembe, amatunda ndetse hari n'ahari pome.

Ahantu hari ibihingwa bigiye bitandukanye, muri byo harimo ipapayi itarera neza, igifite ibitumbwe, kandi hari n'insina ziri iruhande rw'icyo giti cy'ipapayi.

Imirima myinshi igiye itandukanye kandi ihinzweho n'ibihingwa by'ubwoko butandukanye, hakurya y'iyo mirima hari ahantu hateye ishyamba ndetse iruhande rwaryo hari insina nyinshi.

Isoko ririmo imbuto z'amoko agiye atandukanye, muri zo twavugamo pome z'amoko abiri, imyembe, amaronji, hamwe na watermellon ndetse hari n'amatunda.

Inzu y'ubucuruzi irimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye byifashishwa mu gihe abantu bari gutegura indyo yuzuye, muri byo harimo karoti, ibiriganya ndetse na beterave.

Amadebe matoya arimo imbuto za karoti kandi inyuma yazo hashushanyijeho karoti nziza za kijyambere ndetse kuri ayo madebe hari n'amagambo yanditseho ari mu rurimi rw'icyongereza.

Umuntu wunamye mu murima w'inantoryi, ari kureba ko zeze kugira ngo azisarure kandi hafi y'uwo murima hari insina ndetse inyuma y'izo nsina hari ishyamba.

Ubuhinzi bw'imbuto ni bumwe mu buhinzi bw'ingirakamaro muri iki gihugu cy'u Rwanda, kuko iyo umuntu azihinze abona umusaruro uhagije, kandi agasagurira n'amasoko, amatunda rero ni imbuto nziza zituma umuntu agira ubuzima bwiza.

Isoko ririmo ibitunguru, ndetse hagati yabyo hateretsemo umunzani, ubicuruza akoresha apima kugira ngo abone uko aha umukiriya ingano y'ibyo ashaka, kandi muri iryo soko harimo abantu baje guhaha.

Igihingwa cya karoti ni kimwe mu bihingwa byerera mu butaka, kikagira amababi afite ibara ry'icyatsi, gihinze ku buso bunini, kandi gihinze ku buryo bwa kijyambere, gifasha abantu mu kurya indyo yuzuye.

Pavuro ni kimwe mu gihingwa gifasha abantu mu gihe bari gutegura indyo yuzuye. Izi ziteretse ahantu hari umwenda uri mu mabara agiye atandukanye harimo iry'umutuku, umukara, umweru n'ayandi.

Ubuhinzi bw'imboga harimo nk'intoryi, ni ubuhinzi bugira akamaro kuko bufasha abaturage muri rusange kubona imboga barya ndetse zikaba zanakoherezwa hanze bityo zikinjiriza amafaranga abahinzi.

Mu isoko ahacururizwa imbuto zigiye zitandukanye. Muri izo mbuto harimo: amatunda, ibikomfitoro, imyembe, amaronji ndetse na pome zigiye zigerekeranyije. Kandi hari n'ibikarito ndetse n'imifuka ipanzemo izo mbuto.

Umugabo wambaye agapira karimo amabara agiye atandukanye harimo, iry'umweru, umutuku n'umukara. Arunamye ndetse iruhande rwe hahagaze umwana. Bose bari mu murima w'inyanya ziri hafi kwera.

Inzu icururizwamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, harimo inyanya, urusenda, pavuro kandi hirya yabyo hari imifuka iri mu ibara ry'umweru igiye igerekeranyije.

Umukobwa wunamye ari gusoroma imboga kugira ngo ajye kuziteka, yambaye agapira k'amaboko magufi kandi hirya ye hari urutoki ndetse n'amashyamba, hari n'akayira bacamo baje muri uwo murima uhinzemo izo mboga.

Intoryi ziri mu ibasi ifite ibara ry'umutuku ndetse inyuma y'iyo base hari karoti, ibi bihingwa byombi ni bimwe mu byo twita imboga bidufasha mu guteka indyo yuzuye.

Umuntu ufite ibitunguru mu kiganza cye. Ari kubireba kandi hirya ye hari amashyamba ndetse n'ibindi biti by'ubwoko bugiye butandukanye. Uwo muntu yambaye umwenda ufite ibara ry'umweru.

Umugore wambaye agapira k'umuhondo ndetse ufite indobo y'umukara mu kuboko kwe kw'ibumoso, ukw'iburyo gufashe urwuho ari gukoresha yuhira imboga yahinze.

Abagabo babiri bari kuvomerera ibihingwa byabo, ndetse hari umwe wambaye ingofero, ifite ibara ry'umweru, umupira w'amaboko magufi ndetse n'ipantaro by'ubururu bwijimye, kandi yambaye n'inkweto zifunze, inyuma ye hari injerekani, kandi hirya hari n'undi wambaye umupira w'amaboko magufi ufite ibara ry'umweru.

Abantu benshi bari mu murima bari guhinga ndetse abandi bari gutera ku buryo bugezweho, muri bo hari uwambaye igisurubeti gifite ibara ry'icyatsi, kandi hari n'abambaye imyenda y'ubururu. Inyuma yabo hari ishyamba.

Igishanga kinini gihinze ku buso bunini cyane kandi gihinzemo igihingwa cy'umuceri utarera, hakurya hari amazu agiye atandukanye ndetse n'imisozi iriho amashyamba.

Inyubako ndende iteye irangi ry'umuhondo isakaje amabati y'umukara, ifite urugo runini cyane, inyuma yayo hari umugezi ndetse na jaride y'icyatsi kibisi.

Umurima uri ku buso bunini cyane buhinze mu buryo bugezweho bwa kijyambere kandi muri uwo murima ahagana hirya hari abantu bari kuwuhingamo ndetse hari n'ibihu.

Ubuhinzi bw'ikawa ni ingirakamaro kuko kugirira akamaro umuhinzi ndetse n'Igihugu muri rusange, kubera ko ab'imbere mu gihugu barayikenera ndetse bakohereza no mu mahanga.

Ahantu hitegeye hagaragaza imisozi ihinzeho icyayi ndetse kuri iyo misozi hariho n'ibiti n'ibindi bimera bitandukanye, hakurya mu kibaya hari amazu yo guturamo.

Ibihingwa bihinze ahantu mu buryo bwa kijyambere kandi hafi yabyo hari ishyamba ryinshi. Ndetse hakurya y'iyo mirima hari umusozi uteyeho irindi shyamba.

Umudugudu wubatsemo inzu zimwe zisakaje amabati, izindi zisakaje amategura kandi hari n'abantu benshi bagiye batandukanye, hagati muri izo nyubako hagiye harimo imirima ihinzemo ibihingwa bigiye bitandukanye, hakurya hari amashyamba.

Imirima myinshi igiye itandukanye ihinzweho ibihingwa by'ubwoko butandukanye, hari iriho amashyamba, iteyeho urubingo ndetse hakurya y'iyo mirima hagiye hariho amazu atuwemo n'abantu.

Igishanga gihinzemo umuceri ukiri muto utarera, kandi muri uwo muceri hagiye harimo amazi awufasha gukura neza. Hakurya y'icyo gishanga hariho umusozi uriho inzu hamwe n'amashyamba awuteyeho.

Ikiraro cy'inka irikurisha ubwatsi ndetse imbere yayo, hahagaze abantu harimo umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare ifite ibara ry'umukara, hirya yabo hari ikigega.

Inkoko nyinshi zorororewe ahantu hamwe ndetse zigira umusaruro ku mworozi wazo, kuko abona ibikomoka ku matungo, harimo inyama kandi zikamuha n'amagi.

Ihene ebyiri zegeranye ndetse iruhande rw'izo hene hari umuntu uhahagaze, wambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu, kandi yambaye n'inkweto ndetse hirya hakaba hari ibyatsi.

Inkoko nyinshi zorowe ku buryo bwa kijyambere kandi hagati muri zo harimo ibikoresho umworozi wazo yifashisha azigaburira ndetse aziha n'amazi kandi na zo zimuha umusaruro urimo amagi ndetse n'inyama.

Korora inka ni byiza ku muturage wese w'u Rwanda, kuko bimufasha kuba yabona amata yaha abana ndetse akaba yakinjiza n'amafaranga, agurishije ayo mata.

Ubworozi bw'amatungo magufi ni ingenzi kuko bifasha abantu kwiteza imbere bakabona amafaranga abakemurira ibibazo bya buri munsi, ushobora kororera ingurube mu kiraro cyangwa se n'ahandi hantu hatandukanye.

Ingurube ni itungo rigufi rifasha umworozi waryo kwiteza imbere ndetse agateza imbere n'igihugu muri rusange, kandi ni inyamaswa zituma abantu babaho neza kuko zitanga n'inyama.

Umugabo uhagaze, inyuma ye hari inkoko nyinshi yoroye kandi izi nkoko zizamufasha mu kubona ibikomoka ku matungo maze yirinde ibijyanye n'imirire mibi kandi uwo mugabo yambaye bote z'umukara ndetse n'ipantaro y'umukara.

Ikiraro k'inka cyubakishije ibiti byumye ndetse gisakaje ibati kandi inyuma yacyo hari inzu isakaje amategura, iteye icyondo ndetse n'ibindi bihingwa.

Ahantu hari inkoko eshatu, ebyiri muri zo ni inkokokazi, indi imwe ni isake ifite ibirokoko. Kandi aho hantu hari imiyenzi ndetse n'ibindi biti bigiye bitandukanye harimo n'ibyumye.

Umuhanda w'igitaka urimo ihene nyinshi, harimo izifite ibara ry'umukara, indi ifite ibara rya shokora ndetse n'umweru, kandi hirya y'uwo muhanda hari ibiti bigiye bitandukanye.

Ubworozi bw'inkwavu zorowe ku buryo bwa kijyambere bugezweho, ni bumwe mu buteza imbere umuntu ndetse bukanagira uruhare mu iterambere ry'igihugu.

Abantu bahagaze ubona ko bishimiye kuba bahawe inkunga yo korora inkwavu, ni abantu bakuze ariko hakaba harimo n'abandi babiri b'urubyiruko bambaye udupira twa oranje.

Ubworozi bw'amatungo magufi ni ingenzi kuko bufasha umworozi kwiteza imbere ndetse rimwe na rimwe no gukemura ibibazo bitunguranye, bityo akaba atakena cyangwa atagira ikibazo ngo abure uko agikemura.

Ahororerwa ingurube ni ahantu haba hagomba kwitabwaho cyane mu bijyanye n'isuku, kubera ko ingurube ibarizwa mu nyamaswa zigira umwanda, ariko n'ubwo bimeze bityo, iyi nyamaswa itanga umusaruro ku muntu uyoroye.

Ingurube ziri hagati y'abantu benshi bazikikije, muri bo harimo abafite inkoni kandi harimo umugore uteze igitambaro mu mutwe cy'umweru. Hari n'umugabo wambaye ishati y'umutuku ndetse n'ipantaro y'umukara.

Abantu bari mu muhanda, harimo umwana wambaye ikabutura y'umutuku ndetse n'agapira k'amaboko magufi ashoreye ihene agiye kuziragira, kandi inyuma ye hari abandi bari kugenda harimo uwambaye agapira k'amaboko magufi gafite ibara ry'umuhondo.

Ahantu bahumbikira ingemwe kugira ngo zizakure zigere igihe cyo kuzigemura bazijyane mu murima ndetse hirya yaho hari ibiti byinshi bigiye bitandukanye. Kandi hari n'ibihu hakurya yaho.

U Rwanda ni kimwe mu bihugu bishishikariza abaturage barwo, guhinga igihingwa cy'ibigori, kubera ko iyo umuhinzi agihinze, kimugirira akamaro harimo, kubona ibyo kurya, ndetse no kubona amafaranga mu gihe yabijyanye ku isoko.

Akarima k'igikoni gahinzemo imboga zifite ibara ry'icyatsi ndetse iruhande rwako hari igikuta cyubakishije amatafari ahiye kandi izo mboga iruhande rwazo, hari ibyatsi byumye hamwe n'imizi.

Imbuto z'amatunda ni ingirakamaro mu buzima bwa buri munsi, kuko zifasha abana kugira imikurire myiza, ndetse zikongera n'intungamubiri zituruka ku bijyanye n'imbuto mu mubiri w'umuntu.

Ahantu hahinzwe ingemwe z'amashu kandi iyo igihe cyo kuzigemura kigeze bahinga umurima bakajya kuziteramo mu gihe aya mashu yeze yifashishwa mu gihe abantu bari gutegura indyo yuzuye.

Umurima uhinzemo inyanya zitarera zikiri ibitombwe zifite ibara ry'icyatsi, kandi izi nyanya mu gihe zeze, barazisarura bakazijyana ku isoko, kandi zikabagirira akamaro.

Igihingwa kiza cy'imyumbati gihinze ku buryo bwa kijyambere, kirasa neza kandi iruhande rwacyo hari urubingo ndetse izuba riri kumurika muri icyo gihingwa.

Umurima munini uteyemo imigozi y'ibijumba kandi urimo n'amateke makeya, hirya yawo hari ibiti byinshi ndetse hakaba hari n'insina hamwe n'inzu ifite idirishya.

Ubuhinzi bw'imboga harimo n'ubw'inyanya, ni ingenzi kuko butuma abaturage babona ibyo kurya bityo ntibicwe n'inzara, kandi na none bugirira akamaro abahinzi ndetse n'Igihugu muri rusange.

Inka iri mu kiraro kirimo ibyatsi ndetse cyubakishije ibiti, inyuma yayo hari umuganga twita veterineri waje kureba ikibazo iyo nka ifite; yambaye bote zifite ibara ry'umukara.

Ikiraro kirimo umugabo wambaye ingofero isengeri ndetse n'ipantaro hamwe na bote, kandi hari n'umuveterineri waje gutera urushinge itungo rirwaye rifashwe n'uwo mugabo.

Inyamaswa z'agasozi ziba muri parike zigomba kubungabungwa kugira ngo zikomeze zibeho zidacika kandi zikurura ba mukerarugendo, bakaza kuzireba bagatanga amadovize.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye ndetse isakaje n'amabati, kandi iruhande rwayo hari ikigega gifata amazi aturuka kuri ayo mabati, hari ibiti bigiye bitandukanye ndetse n'inkende.

Ni byiza kubungabunga inyamaswa z'agasozi, kuko zikurura ba mukerarugendo. Bityo Igihugu kikinjiza amadovize afasha mu kubaka ibikorwaremezo bitandukanye.

Umuntu uri mu muhanda yambaye imyenda y'imikara, ndetse inkweto ze zirimo umweru n'umukara, iruhande rwe hari inkende ishaka kumukoraho, kandi hirya hari ibiti byinshi.

Inyoni ifite ibara ry'ubururu n'umukara ndetse umunwa wayo ufite ibara ry'umuhondo, ihagaze ku giti gifite ibara ry'icyatsi n'umuhondo kandi inyuma yaho ntago habona neza.

Inyamaswa yo mu bwoko bw'ibiguruka bita inyoni ndetse ihagaze ku giti gifite amashami ndetse n'ibibabi bifite ibara ry'icyatsi, hamwe na oranje n'umuhondo. Iyo nyamaswa ifite amababa ndetse nayo irimo amabara agiye atandukanye.

Inguge ni zimwe mu nyamaswa ziba mu ishyamba cyangwa se z'agasozi, zikaba ziri mu bwoko bujya kumera nk'ubw'ingagi cyangwa inkende, zikaba nazo zikurura ba mukerarugendo benshi mu Rwanda, baje kureba uko zibayeho.

Ubukerarugendo buri mu bintu bitandukanye bizanira igihugu cy'u Rwanda amadovize. Mu Rwanda hari parike zitandukanye, zishobora gusurwa n'abakerarugendo baturutse mu bihugu bitandukanye byo ku isi hose.